Umukobwa w'inzobe uri guseka, wambaye ikote n'umupira w'umweru, ikiganza cye gifashe mu musatsi, wacishije umutwe mu idirishya ry'imodoka, ari kureba hanze.

Umugabo udafite umusatsi uri kugaragara igice cy'igihimba wambaye ishati y'umweru arimo araseka, iruhande rw'iwe hari ahantu h'umuhondo handitsemo amagambo y'umweru.

Umukobwa wambaye ishati y'isengeri uri guseka ufite imisatsi migufi, wicaye mu modoka ibiganza bye abifatishije ku gikoresho kiyobora imodoka.

Umugabo n'umugore bicaye iruhande rwabo hahagaze akana gato bambaye amapantalo y'amakoboyi n'imipira y'umweru akaba ari abazungu, iruhande rwabo hateretse ibikarito kimwe muri byo giteretseho ibikombe bibiri.

Amaboko abiri afatanye mu biganza, buri kuboko kwambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru mo imbere, munsi hagaragara ibara ry'ubururu yanditsemo amagambo y'umweru.

Icyapa cy'ubururu kiriho inyuguti ya pi hasi hashushanyijeho imodoka ya bisi bishatse kuvuga ko haparika imodoka za bisi zitwara abagenzi ikindi kandi hakurya hari inyubako nziza ya etage bigaragara ko ari inyubako isukuye.

Icyapa kiriho igice gitoya cy'isura y'umuntu cyerekana amaso ndetse n'amazuru, afite n'ibitike byinshi, munsi yacyo harunze ibitaka, hari ahantu hahagaze imodoka, inyuma yazo hateye ibiti.

Icyapa cyanditseho amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo ku ruhande mu nguni hariho abantu batatu bishimye, harimo umukecuru n'umusaza ndetse n'umwana hejuru hamanitseho amatara ane, hagaragara ikirere kiganjemo umweru ndetse n'ubururu.

Umusore wifashe mu isura n'ibiganza bye bibiri, ufite umusatsi mukeya wambaye ishati y'umweru. Inyuma ye handitse amagambo ndetse n'imibare byanditse mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Poul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Umugore uryamye ku gitanda kigaragara nko kwa muganga, ufite imisego yegamiye, wambaye ikintu mu ijosi, i ruhande rwe hahagaze umugabo wambaye impuzankano igaragara nk'iy'abaganga, afite ishusho ari kumwereka mu ntoki.

Umukobwa uhagaze mu mbuga ya kaburimbo wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru ndetse n'umukara; afite imisatsi migufiya arararamye ari kureba hejuru ari guseka, afite terefone ye ngendanwa ku gutwi, inyuma ye ari gukurura igikapu kinini babikamo imyenda.

Icyumba gifite imbuga y'umutuku gihagazeho abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bose ibiganza byabo bifashe ku cyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsemo amagambo y'umweru hejuru hari amatara acanye.

Ikiganza gifite telefone nini ngendanwa iri kwaka, igaragaramo ibara ry'ubururu handitsemo amagambo y'umweru, munsi hari inzu zigaragara nk'amagorofa zishushanyijemo.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro by'umukara uhagaze hagati y'abakobwa babiri bafite imisatsi miremire bambaye amakanzu agera munsi y'amavi ari mu ibara ry'umukara, inyuma yabo hari igishushanyo kirimo umukobwa uri guseka.

Inzu y'ubucuruzi isashemo amakaro hasi, imanitsemo imyenda y'amabara atandukanye, harimo imyenda y'ubururu n'ifite ibara risa nk'ivu, n'iy'umutuku ndetse hakaba harimo igipupe cyambaye ipantaro n'ikote n'ingofero mu mutwe.

Inkweto zitondetse zigerekeranye mu mirongo itatu zifite amabara agiye atandukanye. Inyinshi murizo ziganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umweru hari n'izifite amabara y'umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Imodoka ikinguye imiryango yombi ifite intebe ziri mu ibara rijya kugaragara nk'umweru, hirya yayo hahagaze imodoka y'umutuku, hateye n'ibiti.

Imodoka y'abapolisi, iri mu mbuga ngari yubatswe n'amapave iri imbere y'inzu y'amagorofa agera kuri atanu.

Abagabo babiri bahagaze mu mbuga isashemo amabuye, umwe yambaye inkweto zifunze z'umweru, undi yambaye umupira wiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'ingofero mu mutwe, inyuma yabo hahagaze imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, hagati yabo hari urufunguzo rwanditseho amagambo atukura buri wese afashe mu mpera.

Abagabo babiri bahagararanye umwe yambaye ikote n'ipantolo by'umukara afite agakapu gatukura mu ntoki, undi yambaye ishati iciyemo imirongo bafashe ku mpera z'urufunguzo runini rw'umweru inyuma yabo hahagaze imodoka ebyiri.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara ifunguye umuryango w'inyuma aho babika ibintu, ifite amatara y'umutuku, imbere yayo bahagaze izindi modoka zimeze nkayo ku mbuga y'umweru.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini y'ubwikorezi, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, undi afite urupapuro mu ntoki bose bafashe ku mpera z'urufunguzo runini rubari hagati.

Abakobwa bane bahagararanye n'umugabo umwe, umukobwa umwe muri bo agaragara nk'umushinwa undi afite terefoni igendanwa mu ntoki, bahgaze mu cyumba kirimo imeza iriho ibipapuro na terefoni ndetse n'icupa ry'ameza rifite amabara atandukanye.

Imbuga isashemo amabuye, ihagazemo imodoka z'umweruru nini zitwara abagenzi, hejuru zanditseho amagambo y'ubururu, imbere yazo hahagaze abagabo babiri ,bambaye udupfukamunwa, n'amapantaro y'umukara, bambaye imipira ifite ubururu butandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere ye hari ameza ateretseho amafaranga menshi, terefone ngendanwa, ndetse n'imashini ibara amafaranga.

Igitoki gifite umukandanana ndetse n'amakoma agikikije kiri hagati mu giceri gikikijwe n'amagambo, icyo giceri kigaragara mu ibara rijya gusa nka zahabu.

Umuntu ugaragara igice gitoya cy'amaboko wambaye ishati y'amaboko maremare n'isaha y'umukara ku kuboko mu biganza bye afite amafaranga menshi, hariho ishusho y'umugabo wambaye ikote, ayo mafaranga yanditseho igihumbi.

Iri ni iguriro ryo mu mujyi wa Kigali ririmo amakaro asashe hasi imbere mu imbere harimo abantu, abakiriya ndetse n'abakozi baryo bakaba barimo barahererekanya ibicuruzwa.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Inote yanditseho ibihumbi bibiri iriho imisozi mo hagati harimo ikiyaga kirimo n'ikirwa, giteyeho ibiti, hejuru hakaba hari igishushanyo k'igiseke gipfundikiye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi yaciyemo imirongo ufite umupira utukura ku rutugu imbere ye hari undi mugabo wambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'ubururu atandukanijwe n'ikirahure cyometseho inoti ebyiri.

Ibiceri bibiri byegeranye icy'ibumoso gishushanyijeho agashami k'ikawa gafite amababi ndetse n'imbuto, icy'ibuburyo gishushanyijeho ikiranganmigo cyanditseho n'icumi.

Ahantu hari intebe y'ubururu, iruhande rwayo hari akabati k'umweru ndetse n'ubururu, gateretsemo ibyo kunywa bitondetse mu buryo bw'amatsinda, ibiri mu macupa manini hari n'ibiri mu macupa mato. Hari ibigiye bifite ibara ry'umukara ndetse n'ifite ibara rijya gusa n'umuhondo.

Umugore uhagaze mu cyumba gikinguye, hanze hari igare, imbere ye ku meza hari akajerekani k'umweru, mu nguni hari izindi njerekane ebyiri ziri mu ibara ry'umuhondo, ku gikuta hegetse umukoropesho, gifite imbuga y'umweru.

Urugi rukinguye rugaragara mu ibara ry'ubururu, mu imbere hari icyapa gishushanyijeho umwana w'umukobwa ufite imisatsi ifungiye inyuma, wambaye umwambaro uri mu ibara ry'umweru, ufite igikombe handitseho n'amagambo.

Unyubako ikinguye, ifite umuryango wo mu ibara ry'ubururu, ifite imbuga y'umweru, iruhande rw'urugi hari amajerekani ari mu ibara ry'umweru agiye agerekeranye.

Umugabo uhagaze mucyumba gikinguye kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru giteyemo intebe z'umweru ndetse niz'ubururu yambaye ishati iciyemo imirongo n'ipantaro yumukara .

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge, ufite imisatsi y'umukara iboshye ku mutwe, imbere ye hari ameza asasheho igitambaro cy'igitenge, hateretseho igikombe cy'umweru, inyuma ye hagarara ahantu hashushanyije icupa.

Umukobwa wambaye umwenda ukozwe mu gitenge ufite terefone ye ngendanwa ku gutwi uhagaze mucyumba kigaragara nk'icyubucuruzi gifite ibikuta by'ubururu imbere ye hateretse ameza y'umweru ndetse n'igikombe kinini cy'ubururu hari umugabo uhagaze iruhande rw'indobo y'ubururu.

Umurima uhagazemo inka munsi y'igiti ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwayo hakaba hari umuntu ufite indobo y'umutuku uri gusuka mu gikombe kinini n'abandi bantu babiri imbere yabo hari utujerekani.

Umukobwa w'inzobe, wambaye umupira w'umweru, ufite umusatsi muremure w'umukara, ufite telefone ngendanwa mu ntoki, ari kuyerekana mu kirahure, ukundi kuboko kuyitunze urutoki, ari guseka cyane.

Abagabo babiri bunamye ibiganza byabo bifashe ku meza, ameza ariho terefone ngendanwa, mudasobwa, ikaramu, impapuro ndetse n'igikapu cyo mu mugongo.

Umukobwa w'imisatsi migufi wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru, wasamye ugaragara nk'umiwe ufite terefone ye ngendanwa mu ntoki, inyuma ye hagaragara inzu ndetse n'ibiti.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe zanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mw' ibara ry'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri, zirimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru munguni hari igishushanyo cyerekana ikiranga ntego cy'u Rwanda, muyindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rwanditseho amagambo y'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe irimo imibare ndetse n'amagambo hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikiranego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoruro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi yashushanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerikana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara ushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare hejuru muguni hari igishushanyo cy'ikirangagantego cy'u Rwanda hejuru mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru, rwanditse ho amagambo y'umukara, munsi hakaba hashushanyije imbonerahamwe, hejuru mu nguni hakaba hari ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Intoki z'umuntu zisize ibara ritukura ku nzara z'igikumwe, wambaye impeta ku rutoki rumwe ufite amafaranga menshi ariho ishusho y'umusaza wambaye amadarubindi.

Inote imwe yanditseho ijana yashushanyijeho ishusho y'umusaza wambaye amadarubindi ku maso, udafite umusatsi, i ruhande rwayo hari ibiceri bitatu bifite amabara atandukanye, harimo bibiri bifite ibara ryijya gusa na zahabu.

Ibipapuro by'umweru bishushanyijeho imbonerahamwe n'ibindi bishushanyo bifite amabara atandukanye biteretseho amafaranga menshi asandaguje yanditseho ijana ashushanyijeho n'isura y'umugabo.

Inote ziri mu mabara atandukanye zitondekanyije iyo hejuru yanditseho magana atanu hakurikiraho iyanditseho magana abiri hagakurikiraho iyanditseho ijana hagakurikiraho iyanditseho mirongo itanu hagakurikiraho iyanditseho makumyabiri hagakurikiraho iyanditseho icumi hagasoza iyanditseho gatanu .

Inote nyinshi zisandabuje ku meza hariho ishusho y'umusaza, hari inote yanditseho magana abiri, iyanditseho ibihumbi bibiri, iyanyanditseho mirongo itanu indi yanditseho icumi.

Umugabo munini uhagaze imbere y'imbonerahamwe, ari kwandikamo imibare, imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'amadarapo y'ibihugu, harimo Kanad, Afurika y'epfo, Kenya, ndetse na Tanzaniya.

Inoti ebyiri imwe iri hasi indi iri hejuru, zose zanditseho mirongo itanu. Iyo hejuru iriho igishushanyo cy'umuntu uteze igitambaro, iyo hasi hariho igishushanyo cy 'inzu. Inyuma hari ibiti bigaragara nk' igihuru.

Imbonerahamwe irimo imbibare yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, hariho n'amadarapo y'ibihugu nk'America, Ubuyapani ndetse na Canada.

Inote nyinshi zisandaguje ziri mu mabara atandukanye hejuru harambitseho ibiceri byinshi bishandaguje hari inoti zanditseho magana atanu, izanditseho ijana ndetse n'izanditseho mirongo itanu.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo itambitse, ndetse n'ihagaze ufite amafaranga mu biganza bye bibiri. Akaba yambayeho impeta muri buri kiganza, ahagaze ahantu inyuma ye hari ibyapa bifite amagambo y'umutuku.

Imbonerahamwe yiganjemo amabara y'icyatsi umweru ndetse n'umuhondo yanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hagaragaramo amadarapo y'ibihugu byinshi harimo Amerika Kanada Ubushinwa ndetse n'Ubuyapani.

Urupapuro rw'umweru rubanditseho amagambo atsindagiye yo mu ibara ritukura munsi hashushanyijeho imbonerahamwe irimo amadarapo y'ibihugu bitandukanye nk'Amerika, Kenya, Tanzaniya harimo n'imibare mu mbonerahamwe.

Icyumba kirimo imeza nini izengurutswe n'intebe byose bikaba bikozwe mu mbahoho ku meza hateretse ibikombe bibiri biteyemo indabo kimwe giteretse hepfo ikindi giteretse haruguru.

Icyumba gifite imbuga y'umweru n'ibikuta by'umweru, giteretsemo ameza mato yo mu ruziga n'amanini akikijwe n'intebe byose bifite ibara ry'umukara.

Inyubako iteretsemo indabo nyinshi, harimo ameza y'uruziga azengurutswe n'intebe bibajije mu giti, hari n'akabati ku ruhande, hagaragara ibikuta by'umweru.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Ubusitani buteyemo ibiti bugufiya butewemo n'ameza azengurutswe n'intebe hejuru yazo hakaba hari umutaka, hari n'inyubako ifite ibara rijya gusa nk'ivu isakajwe amategura.

Igorofa ry'ubakishishe amatafari ahiye, risakajwe amategura, rifite amadirishya ndetse n'inzugi z'ibirahure, imbere yayo hahagaze imodoka ebyiri zitwara abantu ku giti cyabo.

Icyumba kigaragara nk'icyo kuraramo, kirimo igitanda gisasheho amashuka y'umweru, hirya ku idirishya hari ibitambaro bishinzwe kurinda urumuri, hakurya ku gikuta hateretse insakazamashusho nini.

Inyubako igaragara nk'iyo bacururizamo ibyo kunywa, irimo ibyo kunywa biri mu macupa y'amabara atandukanye, ikaba iteyemo intebe zo mu bwoko butandukanye, ikaba ifite igikuta kigaragara nk'ikirahuri, iyi urebeyemo ubona ahantu hateye urutoki ndetse n'ibiti.

Umuhanda usashemo amabuye urimo umuntu wambaye umupira utukura w'ingofero utagaragara neza mu isura, imbere yaho hari igorofa hahagaze abantu baganira, n'igare, n'igiti kikiri gitoya cy'umukindo.

Igorofa ndende yubakishijwe ibirahure, harimo amabara y'ubururu, ifite imodoka enye ziparitse imbere yayo nicyapa kimanitse kiri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Inzu y'igorofa ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi ifite icyapa cy'umuhondo, hejuru aho iherera hari icyapa cyanditse mu magambo y'ubururu, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri.

Interebuteri ifatanye n'agatiyo gafashe nk'insinga bihuzwa n'agansinga hari agatsiga k'umukara n'akandi tubiri tw'ubururu biri ku gikuta cya karabasasu hejuru hari amabati, izo eterebuteri ni eshatu.

Icyumba gifite amatara hejuru acanye, kirimo ameza ari mu ibara ry'umweru, hateyemo intebe ziri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, ku meza hateretse mudasobwa.

Umukobwa uri guseka wambaye ishati y'umukara wayihiniye mu nkokora usobekiranije amaboko yifashisha mu gatuza, haruguru ye hari intebe y'umukara n'igishushanyo cy'isaha, iruhande rwe handitse amagambo.

Umusore wunamye ukanuye amaso cyane wasamye wafunze ibipfunsi wambaye ishati yayihiniye mu nkokora ifunguye mu imbere harimo umupira w'umweru iruhande rwe handitse amagambo.

Umugore ufite imisatsi myinshi ku mutwe uri guseka wambaye imyambaro y'umukara, iruhande rwe hari umusore wambaye ishati y'amaboko magufi iri mu ibara ry'ubururu nawe uri guseka, iruhande rwabo hakaba hari umugabo ufite imfunguzo wazamuye hejuru.

Imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo iri mu ibara ry'ubururu itwikiriwe n'umutaka munini uri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwayo handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hari n'ayandi yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umukobwa wambaye amadarobindi, wambaye umupira w'umweru uciyemo imirongo y'umukara utambitse. Ukuboko kumwe gufasha igitabo cy'umutuku, ukundi gufite ikaramu y'umuhondo, kwayikojeje mu mutwe.

Abantu batatu bahagaze mu cyumba gifite igikuta k'icyatsi kibisi, umwe muri bo yambaye ijipo yo mu ibara ritukura, yambaye ikote rijya kugaragara n'umweru, ari kureba undi wicaye imbere ye wambaye umupira w'umuhondo n'ikote ry'umukara, batandukanijwe n'ikirahure cyometseho icyapa kiriho ishusho y'umuntu.

Umugore wambaye ishati yahiniye mu nkokora iciyemo imirongo ufite umusatsi mugufi uri kwishima mu mutwe, inyuma ye hagaragara inoti eshatu zanditseho ibihumbi bitanu.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, ruri imbere y'inzu nini y'igorofa, hejuru ku igorofa rya kabiri hahagazeho abantu.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo imyenda harimo imyenda irunze mu birundo hari n'imanitse yose iri mu mabara agiye atandukanye, imbere y'aho harigutambuka umugabo wambaye ikote.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku uri guseka wishimye, iruhande rwe hagaze umusore wambaye umupira w'umuhondo, imbere yabo hahagaze undi mukobwa wambaye amadarubindi hagati yabo hari imbuto z'amacunga.

Umugore uhagaze wambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi, uteze igitambaro cy'icyatsi kibisi mu mutwe. Inyuma ye harunze imyenda hari n'urujya n'uruza rw'abantu, hakuryaye ahagaragara inyubako.

Abagore babiri bicaye bambaye ibitenge imbere yabo hagaze undi mugore wambaye igitenge ufite imbago hagati yabo hateretse ibasi y'imineke.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufiya, uhagaze imbere y'ikirundo cy'ibitunguru ndetse na avoka, ufite igitunguru kinini cy'umweru mu ntoki, uri kwereka umusore wambaye umupira w'amaboko magufi wo mu ibara ritukura.

Inyubako igaragara nk'iyo bacururizamo ibikoresho by'abanyabukorikori, hahagaze umukobwa wambaye umupira utukura, inyuma ye hari ibikoresho bitandukanye, harimo ibiseke ndetse n'imitako bita imigongo.

Abantu batatau bahagaze harimo umugore uteruye umwana n'umugabo wambaye umupira urimo imirongo y'amabara atandukanye wambaye ipantalo y'umukara, ufite umupfundikizo w'indobo mu kwaha, hagati yabo hateretsemo indobo irimo ibiraha.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, hari imodoka z'ubwoko butandukanye ziganjemo iz'ubwikorezi, hari n'amapikipiki hakurya yaho hagaragara amazu menshi.

Abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bari munzu, ifite imbuga y'umutuku, hateretse imiufuka yo mu ibara ry'ubururu, imwe irafunguye irimo injanga.

Imbuga iteretseho imifuka minini y'ibirayi hari umugore wunamye ufashe ku mufuka wambaye igitambaro cyo mu ibara ritukura mu mutwe, hari umusore ufite agafuka gato n'umugore ushyize ikiganza muri ako gafuka.

Ahantu hagaragara abantu hari n'ubwoko bw'ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibitoki by'imineke n'ibitoki bisanzwe amapapayi n'imyumbati.

Umusore wicaye mu cyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo imyambaro ku bikuta hamanitse imyambaro igiye itandukanye yicaye ku ntebe yambaye ikabutura iri m'ibara ry'umweru afite telefone ye ngendanwa mu ntoki yambaye n'umupira w'amaboko maremare y'umweru.

Inyubako isakarishije amabati ashaje cyane, imbere hahagaze abagabo batatu, hari uwambaye imyenda y'umweru kuva hasi kugeza hejuru, mu imbere hagaragara nk'aho bahacururiza imyenda.

Ahantu hari ikivunge cy'abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hahagaze n'amapikipiki, hari n'amahema matoya yo mu ibara ritukura, hakurya hagaragara inzu iriho icyapa cy'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo, ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, iruhande rwawo, hubatse inzu y'igorofa, ifite ibyapa bibiri biteganye by'umuhondo, munsi yayo hari igiti.

Umukobwa wambaye ingofero y'ubudodo mu mutwe uhagaze imbere y'ameza ateretseho imyenda yibere inyuma ye hari inyubako imanitseho ibikapu byo guheka mu mugongo.

Inyubako igaragara nk'isoko, imanitseho icyapa cy'umweru kirimo amabara y'umutuku, n'imbere harimo urunyurane rw'abantu, ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, harimo ibitunguru ndetse n'inyanya.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo ibikoresho by'ubugeni, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibisike, imitako y'imigongo n'ibinigi byo kwambara mu josi.

Imbuga iteretseho ibitoki byinshi, hari urujya n'uruza rw'abantu, imbere yaho hari inyubako igaragara nk'isoko, isakarishijwe amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kigaragara nk'ikiberamo isoko kirimo abantu batandukanye, kirunzemo ibirundo by'imboga zitandunkanye harimo intoryi, inyanya ndetse na karoti.

Abantu bari mu cyumba kigaragara nk'ikiberamo isoko, hari imbuto nyinshi zirunze mu matsinda, harimo imyembe, ibinyomoro, imineke ndetse n'imyembe.

Ikiganza gifashe agatelefone gatoya ngendanwa kari kwaka, mo imbere hagaragaramo ibara ry'ubururu, ku mpande hagaragara amakaziye y'umutuku atondekanyije, imbere ku gikuta hamanitse icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo.

Umuntu utagaragara neza mu isura, ufite telefone ngendanwa mu ntoki iri kwaka, irimo imibare, yambaye igitare ku kuboko kigizwe n'amasaro ndetse n'ikimenyetso cy'umusaraba.

Abasore babiri bahetse ibikapu mu mugongo, bahagaze munsi y'umutaka ufite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, hirya yabo hagaragara ukuboko ku muntu wambaye ishati irimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo udafite umusatsi, wambaye amadarubindi ku maso n'umupira w'amaboko magufiya uri mu ibara ry'umuhondo, imbere ye ku meza hari mudasobwa y'umukara n'igitabo kirambitsemo ikaramu, imbere ye hahagaze undi mugabo uri guseka.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo gafite idirishya rikinguye, hahagaze abagabo babiri umwe yambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, undi yambaye imyenda y'amabara y'ubururu, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo yambaye n'ingofero mu mutwe.

Umusore wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru, wunamye imbere y'ameza ateretseho iriho ingofero ndetse n'amacupa by'umuhondo, iruhande rwe hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo uri kureba inyuma, inyuma yabo hari igitambaro cy'umuhondo.

Umugabo wambaye ikabutura yo mu ibara ry'ubururu bwijimye n'umupira ujya gusa nk'ivu, wambaye amadarubindi, uri kureba muri telefone ye ngendanwa, iruhande rwe hahagaze undi wambaye umupira utukura n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, iruhande rwabo hahagaze imodoka nyinshi.

Icyangombwa cyerekana ibigomba kwishyurwa hakurikijwe amategeko cy'urwego rushinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti.

Abakobwa batatu bafatanye ku rutugu, babiri bambaye imupira w'umuhondo y'amaboko magufi undi umwe yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi imbere yabo hareba ameza y'uruziga ari mw'ibara ry'ubururu inyuma yabo hari amahema matoya y'ubururu.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki yayishyize kumunwa, yambaye amadarubindi mu mutwe, inyuma ye hari ihema ryicayemo abantu bambaye imipira y'umuhondo, inyuma yabo hateye urutoki hari n'icyapa kiriho abantu babiri.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo y'umukara, mo imbere hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru inyuma yako hahagaze abana batoya bane, inyuma hari izindi nyubako.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, gakinguye amadirishya yose, kari mu mbuga y'igitaka, imbere yako hahagaze abagabo batatu, ndetse n'icyapa kiriho amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu; inyuma yaho harambitse amadegede, hari n'igisambu.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru wicaye ku ntebe y'umukara. Imbere ye hari ameza ateretseho icupa, akikijwe n'abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hejuru yabo hari ihema ry'umuhondo, hakurya hagaragara ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gahagazemo ipikipiki iteretseho igikarito kiri mu ibara ry'icyatsi cyibisi ahicara umugenzi; iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo.

Umukingo ugaragara nk'ubakishije amatafari y'amaserebwayi hejuru ugaragaraho ibyatsi imbere yawo hahagaze ipikipiki iteretseho agasanduku karimo ibara ritukura gateretse ahicara abagenzi iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa ufite avelope bayiteretse hejuru y'agasanduku.

Ipikipiki ifite igikarito kijya gusa nk'umutuku ahicara abagenzi; iri hagati y'icupa rya gaze riri mu ibara ry'ubururu, hirya hari icupa ry'amazi, munsi yaryo hari terefone ngendanwa.

Umugabo uhagaze ahantu hari utubati twubakishije ibyuma bisobekera, wambaye umupira ujya kugaragara mu ibara ritukura, ukenyeje umukandara w'umukara, afite igikarito mu ntoki cyanditseho amagambo y'umukara.

Ni mu nzu mu cyumba kigairi cyahariwe gukorerwamo inama hateraniyemo abantu batanu abagore n'abagabo, umwe muri bo ari imbere ari kubasobanurira yifashishije ikoranabuhanga.

Urugi runini rw'umukara imbere yarwo hahagaze ipikipiki igaragara mu ibara ry'umukara, ku ipikipiki hari igikarito kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara giteretse ahicara umugenzi, inyuma y'ipikipiki hahagaze umugabo wambaye ipantalo y'umukara, ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'ingofero bambara bagiye ku ipikipiki y'icyatsi, imbere ye hahagaze undi mugabo.

Ubusitani buteyemo ibiti n'indabo ku muzenguruko, mu nguni hari igiti kirekire kihateye, igicucu cyacyo kigaragara mu busitani, inyuma yaho hari inzu y'amagorofa abiri.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro kirimo intebe ebyiri zifite ibara ry'icyatsi kibizi, imbere yazo hateretse ameza. Gifite ibikuta by'umweru, n'itara hejuru ricanye, n'igishushanyo giteretse ku rukuta cyitwa umugongo, n'insakazamashusho iri ku rukuta rw'umweru.

Icyumbna kigaragara nk'icyo bararamo, gifite igikuta cy'umweru, gifite ibitambaro birinda urumuri bimanitse ku idirishya biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hariho n'igitanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo urombereje harimo umugabo ugiye kwambuka n'umumotari uparitse umeze nkaho akuyeho umugenzi n'abamama benshi bahagaze imbere ya kandagira ukarabe, ku nyubako ikikijwe n'igipangu cy'ibyuma iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye n'amategura n'amabati y'ubururu, hafi yayo hari ikigega cyubakishije ibyuma gisa umukara hari n'ibiti birebire.

Agace gatoya k'igisambu gafatanye n'imbuga y'igitaka, haruguru hubatse inzu ntoya ifite amadirishya n'inzugi biri mu ibara ritukura, hejuru hagaragara ikirere cyiganjemo ibara ry'ubururu.

Inzu y'amagorofa abiri, iri mu ibara ry'umweru, imbere yaho hari ubusitani, buteyemo igiti kirekire cy'umukindo, ku ruhande hagaragara igikuta cy'amabuye.

Umukobwa n'umuhungu bambaye impuzankano zifite amabara atandukanye, zifite idarapo ry'u Rwanda ku kuboko hejuru y'inkokora, umukobwa yambaye isaha iri mu ibara rya zahabu, bafite mudasobwa imbere yabo, ku meza ari iruhande rwabo atambitse hariho akajerekani kari mu ibara ry'umuhondo, gafite umufuniko ugaragara mu ibara ritukura.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo gihagazemo umukobwa wambaye umupira w'umweru ugera mu nkokora, wambaye ipantaro y'umukara afite terefone ngendanwa mu mufuka, imbere ye hari utubati turambitsemo ibicuruzwa.

Umukobwa uhagaze mu cyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo ibyo kunywa, yambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, afite imisatsi migufiya, ahagaze iruhande rw'akabati gatondetsemo ibyo kunywa.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantalo, wambaye ishati yo mu ibara ry'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hicaye abantu batagaragara amasura, inyuma ye hari icyapa cyiganjemo ibara ry'ubururu.

Umwana w'umukobwa ugaragara igihimba, ufite agakinisho kagaragara nk'ingurube, wambaye umupira w'umweru uciyemo imirongo y'ubururu, ufite imisatsi mitoya ku mutwe iboshye, uri guseka.

Abantu bicaye hamwe harimo umugore wambaye imyambaro y'igitenge, uteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe harimo n'undi wambaye umupira w'ubururu uteruye akana gatoya kadafite umusatsi kambaye umupira w'ubururu, munsi yabo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugore wambaye imyambaro y'igitenge uteze n'ikindi mu mutwe, uhagaze imbere y'abantu bicaye bambaye impuzankano z'umweru, bambaye na ga mu ntoki, umwe afite ikaramu ari kwandika, ku muryango hahagaze abandi bantu benshi basa nk'abategereje kwinjira.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo umugabo ufite inkoni yegetseho ku rutugu, afite urupapuro ruzinze mu ntoki, yambaye ingofero y'umukara y'urugara.

Umugabo uhagaze mucyumba kigaragara nk'icy'ubucuruzi wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru uri kureba muri terefone ngendanwa, iruhande rwe hari utubati dutondetsemo ibicuruzwa.

Icyumba kigaragara nk'iy'ubucuruzi kirimo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, kirimo utubati dutondetsemo ibicuruzwa hari ibifunze mu bikombe bifite ibara ry'umuhondo, ibindi bifunze mubikombe bifite amabara atandukanye.

Umukobwa watunze urutoki mu mashini, wambaye umupira wumuhondo w'amaboko magufi ,ufite imisatsi iboshye ,iruhande rwe ahagaze umusore ufite terefone ngendanwa mu ntoki, haruguru yabo akaba ahagaze umusore uri kureba inyuma ,areba ibicuruzwa bimanitse ,wambaye umupira w'umuhondo.